Abana bateraniye mu cyumba kinini, cyiganjemo ibara ry'ubururu, bambaye imyenda myiza kandi bishimye, banezerewe.

Umugabo wambaye ishati nziza y'ubururu, n'ipantaro y'umukara, uhagaze akaraba ndetse ubona ko yishimye, kandi anezerewe.

Ihuriro ry'abana biga mu mashuri abanza, bari kumwe n'abayobozi babo, bishimye kandi banezerewe ku buryo bugaragara.

Ihuriro ry'abayobozi batandukanye baje kwiga ku kibazo kijyanye n'indwara ya Ebola, aho abarwayi bagaragaje ibimenyetso, bagirwa inama zitandukanye ndetse bagahabwa ubufasha bw'ibanze.

Icyumba kinini giteraniyemo abarwayi ndetse n'abaganga, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu baza bagahabwa ubufasha.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nyubako nini, yiganjemo amabara y'icyatsi, ubururu, baje mu mahugurwa ajyanye n'uburyo bakirinda indwara ya kovidi cumi n'icyenda,

Inyubako nini isakaje amabati atukura, ikorerwamo imyitozo itandukanye, nk'umupira w'amaguru ndetse n'ibindi bizana amafaranga.

Inyubako nini yateraniyemo abantu benshi, baje kwiga ku kibazo kijyanye no kwiteza imbere, aho bagenda bareba ibikenerwa kugira ngo iterambere rirambye rigerweho.

Icyumba kinini giteraniyemo abaganga ndetse n'umurwayi, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye baza bagahabwa serivisi nziza kandi inoze.

Abana benshi biganje ab'imyaka itanu, irindwi ndetse n'umunani, bahuriye mu kiyaga kinini, barimo koga kandi bishimye.

Igikoresho gikoreshwa mu kumanikaho ibikoresho byamaze kozwa, kiri impande y'ibiti binini kandi mu mbuga isa neza kandi ikeye.

Umwana uri mu mazi, ufite ijerekani y'umuhondo, wambaye imyenda y'umuhondo, umukara ndetse n'umweru, waje gushaka amazi yo gukoresha.

Icyumba kinini kirimo abantu batandukanye, abasaza, abasore, abagore bahuriye hamwe biga ku kibazo kijyanye no kwiteza imbere.

Urubyiruko, abasaza, abagore bafite idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ubona ko bishimye kandi bafite akanyamuneza.

Abayobozi biganjemo abagabo, abagore, bahagaze imbere y'inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarwayi bafite indwara z'amoko atandukanye, baza guhabwa serivise nziza.

Umugore wambaye ikoti ryiza ry'umukara n'ishati y'umutuku, umwenyura ndetse w'imibiri yombi, ufite imisatsi myinshi, ugaragara nk'aho yishimye kandi anezerewe.

Umwana wimyaka icumi, ufite uburoso bukoreshwa mu gusukura amenyo, ubona ko yishimye kandi isuku ari isoko y'ubuzima.

Umwana w'imibiri yombi, wambaye umupira w'umuhondo, urimo guhabwa serivisi z'ubuvuzi, wishimye kandi unezerewe kandi usa neza.

Icyumba kinini kirimo abagabo, abagore bari ku meza ndetse bari gufata amafunguro ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo umukobwa wambaye impuzankano y'ubururu, uri guha serivisi umugabo ufite ubwanwa bwinshi.

Icyumba kinini gitangirwamo ubuvuzi butandukanye, kirimo umusaza n'umukecuru bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umutuku ndetse n'umukara.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, baza guhabwa ubufasha ndetse bagahabwa n'imiti ibafasha kwirinda.

Umugabo n'umugore bahagaze inyuma y'inzu nini, bambaye imyenda yiganjemo umutuku, icyatsi, umweru ndetse n'umukara.

Ikigonderabuzima cya Shagasha cyateraniyemo abantu batandukanye baje guhabwa serivisi z'ubuvuzi kugira ngo birinde ndetse barwanye indwara zandura ndetse n'izitandura.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, baza bagahabwa serivisi nziza kandi inoze.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye baza bagahabwa ubufasha ndetse n'ubujyanama ku bijyanye n'uko ubuzima bwabo buhagaze.

Inyubako nini itangirwamo ubuvuzi butandukanye, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, baza guhabwa ubufasha ndetse bagahabwa n'ubujyanama ku bijyanye n'indwara barwaye.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo abantu batatu: abaganga babiri ndetse n'umurwayi, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, umweru n'umutuku.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi zitandukanye, iz'ubuvuzi bw'amenyo, iz'umutima ndetse n'iz'impyiko, aho abarwayi batandukanye baza guhabwa serivisi nziza.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, baza kwisuzumisha indwara, bagahabwa serivisi nziza kandi inoze, banagirwa inama y'uburyo bakirinda.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarwayi batandukanye baza bagahabwa ubufasha ndetse n'ubujyanama ku bijyanye n'indwara babasanganye.

Icyumba kinini gitangirwarwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, baza bagahabwa ubufasha ndetse n'ubujyanama ku buzima bwabo.

Inyubako nini itangirwamo serivise z'ubuvuzi, iruhande rwayo haparitse imodoka nziza kandi ubona ko ari imodoka igaragara neza.

Ikigo cy'amashuri gifite ibikoresho byo gukoreraho imyitozo ngororamubiri byiganjemo amabara y'icyatsi, ubururu, ndetse ubona ko ari heza kandi hateye amatsiko.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, baza gusaba serivisi, bagahabwa ubufasha hagendewe ku bimenyetso bagaragaje.

Inyubako yiganjemo ibara ry'umuhondo, umutuku n'ubururu, aho abarwayi batandukanye, baza guhabwa ubufasha ku bijyanye n'indwara barwaye.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarwayi batandukanye baza kwisuzumisha ndetse bagahabwa ubujyanama ku bijyanye no kwirinda indwara.

Umugabo munini wambaye umupira w'ubururu, ufite icupa ry'amazi, ubona ko avuye mu myitozo ngororamubiri, wambaye imitako mu ijosi.

Icyumba kinini cyahuriyemo abaganga, baje gufasha abarwayi bafite indwara zitandukanye, hanatangwa ubujyanama ku buryo bwo kwirinda ndetse no gukumira indwara.

Umuganga wicaye mu cyumba kinini, uri kumwe n'umurwayi, wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umweru, ari guha serivisi umurwayi.

Icyumba kinini cyateraniyemo abaganga batandukanye, bari kwiga ku kibazo kijyanye no kwirinda indwara ya Ebola, ndetse hanatangwa ubujyanama n'uburyo yakwirindwa.

Icyumba kinini kirimo igikapu gitukura ndetse kirimo imiti itandukanye, aho abarwayi baturutse mu bice by'igihugu baza guhabwa serivisi z'ubuvuzi.

Urutonde rugaragaza ibiribwa by'amoko atandukanye ari byo imineke, inanasi, amata ndetse n'ibindi.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarwayi batandukanye baza bakisuzumisha ndetse bagahabwa ubufasha, hagendewe ku bimenyetso bagaragaje.